Umurima urimo ifumbire ni ingenzi cyane kuko utuma ibihingwa bikura neza kandi bigatanga umusaruro mwinshi. Uwo musaruro ushobora kwifashishwa mu rugo ndetse wanasaguka ukajya ku isoko, maze abantu bakabona amafaranga.

Ahantu hatandukanye hacururizwa imiti itandukanye yo kongera ubuhinzi ndetse n'ubworozi, ni ingenzi cyane ko iyo uhinga kandi ukorora ari ingenzi gukoresha imiti yabugenewe kugira ngo wongere umusaruro bityo wihaze.

Icyapa kiyobora abagenzi kiberekeza ku nyubako, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Iyo umuntu atazi gusoma akenshi akunze kuyoba, ariko iyo azi gusoma abona inzira.

Ifumbire akenshi usanga, ikunze gutanga umusaruro ku bihingwa, maze abahinzi bakabona amafaranga bakoresha mu bikorwa byabo, bitewe n'uko baba barabigize umwuga.

Ifumbire mvaruganda ni ingirakamaro kuko idufasha kubona imbuto tuzifashisha niyo mpamvu usanga abantu benshi baragiye mu buhinzi.

Akabande karimo imboga n'imbuto usanga abantu bari kuvomera kugira ngo babone umusaruro. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda guhinga, bakabona amafaranga.

Abahinzi akenshi usanga bahinga ibihingwa bitandukanye: ibigori, amashu, amateke, ndetse ni bindi bihingwa bigiye bitandukanye bashobora kuba bahinga, maze bagahabwa ubufasha.

Ahantu hatandukanye hakorerwa ibikorwa bitandukanye byo kugurisha imiti, ni ingenzi cyane ko abantu b'abahinzi n'aborozi iyo bafite ibibazo byerekeranye n'umusaruro wabo bagana ababishinzwe n'ababihuguriwe bakabafasha.

Imifuka iri ahantu mu nyubako, bigaragara ko iyo mifuka ifunze neza, biragaragara ko iyi mifuka iba yashyizwemo ibiribwa bitandukanye.

Abahinzi benshi bakunda guhinga amashu, bakayajyana mu isoko maze bakabona amafaranga menshi. Niyo mpamvu usanga bariteje imbere bityo bigatuma babaho neza.

Abantu batandukanye b'abahinzi n'aborozi, iyo bafite ibibazo bitandukanye byerekeranye n'umusaruro wabo, bagana ababishinzwe maze bakabaha inyongeramusaruro. Ni byiza kuko bifasha kongera umusaruro wabo.

Abantu batandukanye barahinga. Ni ngombwa guhinga kuko bituma wongera umusaruro ukenerwa, bityo haba mu byo ukenera mu rugo cyangwa ku isoko, maze umusaruro wawe ukagufasha ukagira ubuzima bwiza.

Abahinzi usanga akenshi bashyiramo ingufu kugira ngo ku musaruro uboneke. Hari abo usanga rero bahingira aho, bityo umusaruro wabo ntiwiyongere kuri wa wundi.

Abahinzi b'ibigori usanga bakunze gushyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo umusaruro wabo uboneke. Akaba ari yo mpamvu baba barabigize umwuga.

Umugabo ufite imifuka ku igare, ubona ko ari gutunda ibiribwa bitandukanye, inyuma ye ari kumwe n'abandi babyeyi bamuherekeje.

Ifumbire y'imvaruganda yifashishwa cyane cyane mu kubagara imyaka itandukanye, haba ibigori, inyanya, intoryi n'ibindi, iyi fumbire yongera umusaruro bityo abantu bakagira ubuzima bwiza.

Ifumbire ni ingenzi cyane, ituma ibihingwa bigira ibakwe mu gukura neza ndetse no kongera umusaruro vuba, ifumbire yifashishwa n'abantu, ikomoka ku matungo atandukanye nk'ingurube, inka n'ibindi.

Icyumba kirimo ibintu byinshi bitandukanye bimanitse muri etajeri, biragaragara ko ari ahantu heza hacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubucuruzi. Birakekwa ko haberamo ibikorwa bijyanye no gucuruza imiti.

Etajeri irimo imiti, ubona ko ari icyumba cyiza, gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino, bagahurira bakivuza.

Ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi, bazamura umusaruro. Ni ngombwa ko iyo mu buhinzi n'ubworozi hagaragaye ibikoresho bitandukanye cyangwa ibibazo bitandukanye, hashobora kwifashishwa imiti yabugenewe maze bakongera umusaruro.

Abagabo babiri bari mu murima barerekana ibyo bagezeho. Ni byiza guhinga kuko bituma abantu bagira umusaruro uhagije, wifashishwa cyane cyane mu bikorwa bitandukanye harimo gutegura amafunguro n'ibindi.

Abahinzi b'ibigori bakunze kuvuga ko iyo uhinze ubona umusaruro. Akaba ariyo mpamvu rero usanga barabigize umwuga kuko babikuramo amafaranga menshi.

Urutoki ni igihingwa gitanga umusaruro mu buryo bworoshye, aho abantu bashobora kubona amafaranga bakoresha mu bikorwa byabo maze bakiteza imbere bagateza n'igihugu imbere muri rusange.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha guhumeka umwuka mwiza. Akaba ari yo mpamvu usanga abantu benshi bakunze gutema ibiti, ugasanga babibuzwa.

Abahinzi benshi bakunze kuvuga ko avoka ari igihingwa cyiza abantu bakuramo amafaranga akabasha kubatunga ndetse bagakemura n'ibibazo bimwe na bimwe bagenda bahura na byo.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane kubera ko bufasha abantu kwiteza imbere, bakabasha kubona amafaranga mu buryo bworoshye kandi butabagoye kandi bwiza.

Umuceri ni igihingwa gitanga umusaruro, kandi umuceri wifashishwa mu gukoramo ibiryo bigaburira, abantu batari bake mu gihugu.

Amapapayi ni igihingwa cyiza cyane, usanga ahantu hatandukanye. Ni byiza ko abantu bahinga amapapayi kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza bityo mu gihe kizaza bazabashe kubaho neza.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, kuko usanga abantu bahinga iki gihingwa bakunze kubona amafaranga menshi cyane, iki kihingwa rero usanga ari kiza cyane mu buryo bwose.

Ibihingwa bitandukanye, iyo bigiye guterwa birabanza bikagemwa. Iyo izo ngemwe ni zo ufata ugahinga bityo ukazifashisha ubona umusaruro. Ni ngombwa guhinga kuko bituma tubaho neza.

Imbuto zitandukanye zera mu ishyamba. Ni ingenzi cyane ko abantu babaho neza bahinga imbuto kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza. Bituma kandi n'inyamaswa zo mu ishyamba nk'inkende, inyoni n'ibindi na zo zigira ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'imyumbati, ni igihingwa usanga iyo cyeze gitanga umusaruro uhagije. Abantu barya imyumbati baba bafite imbaraga bityo bakagira ubuzima bwiza. Ni ngombwa guhinga imyumbati kugira ngo abantu babone ibyo bakora.

Umurima ukenewe guhingwa, ni byiza ko abantu batera ibishyimbo mu murima wahinzwe neza, kandi wafumbiwe kugira ngo bibashe kwera neza. Iyo uhinze ureza, ariko kandi iyo hari n'ibitoki ni ingirakamaro.

Imboga zitandukanye zihinze neza ziri umuma, n'ingenzi cyane guhinga imboga kubera ko zifasha mu gutuma abantu babona ibibatunga harimo gutegura indyo yuzuye no kumererwa neza.

Ibihingwa bitandukanye bigaragara mu murima, harimo ibigori byumye ndetse n'imboga. Ni ingenzi cyane guhinga kubera ko bituma abantu bagira umusaruro uhagije, ukawifashisha mu gutegura amafunguro yo mu rugo.

Inyanya ni igihingwa cyiza, gitanga umusaruro ndetse n'amafaranga, kuko iki gihingwa abantu benshi kibaha amafaranga yifashishwa mu bikorwa by'iterambere.

Akenshi iyo abantu bateye ishyamba, usanga bakunda kugira imbogamizi y'uko iryo shyamba rizarenga ku myaka bahinze ariko sibyo ko kuko habaho kombera maze bagakokora ibyo biti.

Inka iranywa amazi ni ngombwa ko inka zitabwaho zigahabwa ibyo zikeneye kugira ngo zitange umusaruro mwiza, iyo inka inywa amazi neza usanga itanga umukamo ushimishije maze ukifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Imiti itandukanye yo gufasha mu kuvura amatungo. Ni ingenzi cyane gukoresha imiti yongera umusaruro w'amata n'ibindi bikorwa bitandukanye kugira ngo amatungo dukomeze tuyabyaze umusaruro mwinshi.

Inkoko ni itungo rigufiya ryororerwa mu rugo, ritanga inyama, rigatanga ifumbire ndetse rigatanga n'amagi. Ni ingenzi cyane kuko abana iyo barya ibikomoka ku magi bakura neza ni mu gihagararo no mu bwenge.

Umushinga w'inkoko, ni umushinga mwiza kubera ko utanga amafaranga mu buryo utakeka, haba mu gutera amagi ndetse no mu buryo bw'inyama.

Ingurube ni itungo rigufiya ryororerwa mu rugo rifasha cyane cyane mu gutegura umusaruro utandukanye, harimo ifumbire n'ibindi ingurube itanga umusaruro mu gihe gitoya.

Akenshi usanga abahinzi bakunze kugura imiti bifashisha mu buhinzi, kuko usanga ibihingwa byinshi bikunze guhura n'uburwayi maze umusaruro ntiwiyongere.

Imiti myinshi igiye itandukanye, ikunze kuba ari imiti ivura indwara zitandukanye, kandi ikayigabanyiriza ubukana ku buryo ikira vuba.

Ihene ni itungo ryiza ryororerwa mu rugo rirya ibyatsi, rigatanga ifumbire ndetse riranabyara rikoroka kandi mu gihe gitoya ntabwo rihenda kandi ntirushya kuryitaho. Ni ngombwa korora ihene.

Inkwavu zituma umuntu yumva yishimye kandi aryohewe. Kera iyo abantu bafataga inkwavu, bakazibanguriza zikabyarira rimwe, wasangaga inkwavu zunguka kandi zigatanga umusaruro.

Abantu benshi ntibakunda kwisiga amavuta batamenyereye kuko ashobora kwangiza uruhu rwabo, akaba ari yo mpamvu abantu barwaye uruhu aribo baba bakunze kuba babigizemo uruhare.

Abantu batandukanye barahinga. Ni ngombwa ko abantu bahinga kugira ngo bongere umusaruro w'ibyo bakenera, bityo haba mu kurya cyangwa se gusagurira amasoko babone ibyo bakoreshayo maze bagire ubuzima bwiza.

Abahinzi benshi bakunze guhumbika imbuto mu mirima, bityo bikabafasha kubona umusaruro vuba ndetse bakabona n'imbuto zo guhumbika mu mirima yabo.

Ibikorwa by'ubuhinzi, ni ingirakamaro kuko usanga bituma abantu bihaza mu biribwa, bityo guhinga ni byiza kubera ko bituma abantu babaho neza kandi bakagira n'ibikorwa byiza bakora.

Abantu benshi bakunze kuba bambaye amakoti, ndetse n'indi myenda itandukanye, ariko iyo umuntu aguhaye umwanya ubasha kuwukoresha.

Umugabo urimo guhinga urutoki, bigaragara ko ashaka guteramo imyaka kugira ngo izamuhe amafaranga. Uwo mugabo rero yambaye ipantaro hasi, hejuru ntabwo yambaye.

Abahinzi benshi usanga bakunze kubikora kugira ngo babone Amafaranga ariko ugasanga aba ari impfabusa. Iyo urebye abantu bakora ibikorwa by'ubuhinzi batabigize bya kinyamwuga, ntabwo babona umusaruro uhagije.

Abagabo n'abagore barakora uturima tw'igikoni. Ni ingenzi cyane gukora akarima k'igikoni kuko bifasha mu gufata imbuto zitandukanye ndetse n'imboga. Ni ho imboga ndetse n'imbuto zihingwa maze abantu bakagira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri barerekana umusaruro wabo w'ibirayi. Ni ngombwa ko ibirayi iyo umaze kubihinga, ubipakira neza maze ukabijyana mu rugo maze byaba byinshi, ukabijyana no ku isoko, ugakuramo amafaranga.

Abantu batandukanye barita ku ndabyo. Ni ngombwa ko abantu bita ku musaruro wabo kugira ngo tubashe kubaho neza. Bityo ahantu hatandukanye nko ku ishuri, kuhatera ibikorwa bitandukanye by'ibyatsi, bituma abanyeshuri babaho neza.

Intabire ihingwamo ibigori, akenshi ukunda gusanga ishyirwamo ifumbire kugira ngo bizabashe kwera neza, ni umurima munini ubona ko ari mwiza.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko iyo ubikoze ugahembera ibishyimbo, ugakora n'utundi dukorwa dutandukanye usanga ari byiza.

Abagabo batandukanye n'abagore barahinga, guhingana ni byiza bituma ubona umusaruro wifuzwa maze ukabasha kubaho bityo mu buzima buzaza ntibizakugore, ushobora kandi no kwiteza imbere ubonamo amafaranga.

Urubyiruko akenshi rukunze kwishakira ibisubizo. Nk'urugero hari abantu ubona ko batishoboye, baba bakeneye ubafasha kugira ngo imirimo itaba myinshi.

Abahinzi benshi bakunze guhura n'imbogamizi z'uko batabona ifumbire yo gushyira ku bihingwa byabo. Akaba ari yo mpamvu usanga bahora bashaka iyo fumbire.

Umugabo arahinga. Ni ngombwa ko abantu bahinga kuko iyo uhinga bituma ubona umusaruro ukenerwa. Haba mu rugo ndetse no ku isoko maze ukabasha kugira ubuzima bwiza, ukiteza imbere.

Abahinzi benshi bakunze gukorera hamwe kugira ngo babone umusaruro, kubera ko iyo mwakoreye hamwe muri benshi, umubyizi ugwira vuba mukitahira.

Abahinzi b'ibigori ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, bishimira ko babona umusaruro iyo bashyizeho ifumbire mvaruganda, bagasagurira amasoko.

Abahinzi b'imboga n'imbuto, usanga bakunda guhinga maze bakabona amafaranga, abafasha gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, niyo mpamvu usanga bashyira hamwe bagahinga.

Umugabo arahinga, guhinga ni byiza bituma ugira umusaruro, bityo iyo ufite umusaruro mwiza bituma ubona ibyiza biwukomokaho haba kufashisha mu gutegura amafunguro n'ibindi.

Abayobozi iyo bakugiriye inama urazikurikiza kugira ngo ubuzima bukomeze. Akaba ari yo mpamvu abayobozi bari barimo gutera ibiti biyambaje abaturage.

Igihingwa cy'ikigori gitanga umusaruro, ariko ugasanga abantu babikoze bahise bitahira kuko badashoboye.

Abahinzi benshi bakunze guhura n'imbogamizi yo kubura ifumbire. Ugasanga abo bahinze habapfiriye ubusa kubera kubura ifumbire nyinshi yo gutera ku myanda.

Ahantu hatandukanye hahunikirwa imyaka ni byiza ko abantu bahunika imyaka yabo kugirango babashe kubaho neza, ariko kandi iyo bidakunze bajya no guhaha ni ngombwa ko abantu bahaha kugirango bakomeze ubuzima.

Umusaruro ukomoka ku bihingwa bitandukanye harimo amasaka, ibigori, ibishyimbo n'ibindi. Ni ingenzi cyane kubera ko ibi byifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye yo mu rugo, ariko kandi bagasagurira n'isoko.

Imifuka ya kawunga ndetse n'umuceri, bigaragara ko iri ahantu heza cyane. Akenshi iyo umuntu ari gucuruza usanga avuga ko kubona igishoro bigoye.

Ibitoki akenshi bigura amafaranga atari make, ni yo mpamvu usanga abantu bakora ubuhinzi bakunze guhura n'imbogamizi zo kubura ibishoro.

Avoka ni imbuto zikunze kuboneka cyane cyane ku gasozi, aho usanga ari ingenzi cyane, bazifashisha mu gutegura amafunguro atandukanye. Ni ingenzi cyane rero kuko birinda indwara kandi bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, uko abantu benshi bazihinga, bakabona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bagenda bahura na byo.

Usanga abantu benshi bakoresha amasaka mu gihe bari kubetera inzoga, maze bakazagurisha bakabona amafaranga. Niyo mpamvu usanga abahinzi benshi b'urutoki bakunze kuba ari abakire.

Insina ni igihingwa kigaragara cyera ibitoki bishobora kwifashishwa babirya cyangwa se bakabitaramo imineke, ni byiza cyane guhinga igihingwa cy'ibitoki kuko gifasha mu bikorwa bijyanye no kurwanya imirire mibi n'ibindi.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha kubona umwuka duhumeka ndetse bigatuma tugira ubuzima bwiza. Akaba ari yo mpamvu usanga abantu bakora ibikorwa ba...

Ibiti bitandukanye bigaragara mu mashyamba ndetse n'ibindi bimera, ni ingenzi cyane kuko bikurura umwuka abantu bahumeka, bigatanga ndetse n'imvura yifashishwa cyane cyane mu gutuma habaho ubuzima bwiza bw'abantu.

Ibiti birebire ubona ko birimo utundi dutoya, ibidukikije kandi usanga ari ingirakamaro kuko bidufasha kwiteza imbere kandi bigateza imbere n'abandi.

Insina zitandukanye ni kimwe mu bimera aho kibyara ibitoki. Ibyo bitoki bikaba byakifashishwa mu gutuma habaho imineke cyangwa se bakabirya bisanzwe. Bigatera abantu imbaraga maze bagakura neza.

Ibimera bitandukanye bigaragara ahantu hatandukanye, birimo imboga n'ibindi. Bituma abantu babaho neza, bagategura amafunguro yabo neza bityo bakaba banasagurira isoko bakabonamo amafaranga.

Akenshi usanga abantu bakunda guhura n'imbogamizi yuko batabona amafaranga ahagije, kugira ngo bakemure ibibazo bagenda bahura nabyo bya buri munsi.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha guhumeka umwuka mwiza kandi tukumva twishimye. Akaba ariyo mpamvu abantu bashishikarizwa gutera ishyamba kugira ngo bazabeho ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha kubaho neza kandi twishimye. Akaba ari yo mpamvu dushishikarizwa gukora cyane kugira ngo tutazajya duhura n'ibibazo tukabura uko tubikemura.

Ishyamba abantu benshi bakunze kurikuramo imbaho, bakazibaza, hanyuma zigakorwamo intebe, niyo mpamvu usanga hari igihe ziba zitarakura kugira ngo umuntu abe yaziteba.

Ishyamba rikunze kuba ririmo ibiti byinshi byateza abantu imbere mu gihe babikoresheje neza. Akaba ariyo mpamvu dushimira leta y'u Rwanda yatwegereje abaturage kugira ngo badufashe.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko biturinda imbeho, tukishima, tukanezerwa, tukaganira kandi tukumva duguwe neza. Ibyo ni byo abantu bose bishimira.

Ibiti bitandukanye biboneka mu mashyamba atandukanye. Ni ngombwa ko ibiti bihingwa kubera ko bituma tubona umwuka mwiza wo guhumeka. Bikurura imvura, maze abahinzi bagahinga bakeza, kandi ni ingirakamaro.

Ishyamba ryinshi usanga rikunze kubamo inyamaswa. Aka ari yo mpamvu hari abantu batinya kugenda mu ishyamba nijoro kugira ngo izo nyamaswa zitabarya maze bakagira ibibazo bitandukanye.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha guhumeka umwuka mwiza, akaba ariyo mpamvu usanga abantu benshi bakunze gutera ishyamba ndetse bagashishikariza n'abandi.

Ibiti byinshi bikunze kuba bibazwamo imbaho ndetse n'imbabari, iyo batemye igiti akenshi abantu babikuramo imbaho zikora inzugi ndetse n'intebe.

Ibiti bitandukanye ni ingenzi cyane kuko bifasha mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bakabaho neza, bityo bikanafasha kandi gukurura imvura ifasha mu bihingwa bitandukanye maze bakabona umusaruro.

Ishyamba ry'inzitane rikorerwamo ibikorwa bijyanye n'iterambere. Ishyamba kandi biragaragara ko rikeneye kubazwa kugira ngo hakorwemo intebe.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha kubona amafaranga menshi atandukanye, twifashisha mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye.

Ishyamba ry'inzitane ririmo inyamaswa z'inkazi, zishobora kuba ziryana. Kugira ngo rero aha hantu uzahanyure uri wenyine biba bigoye kuko uhanyura ufite ubwoba.

Ibimera bitandukanye byera mu butaka ndetse ni ingenzi cyane kuko bituma abantu bahumeka umwuka mwiza, bigacumbikira n'inyamaswa zitandukanye nk'inyoni n'ibindi, bityo ibinyabuzima bigakomeza kumera neza.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha guhumeka kandi bikadukururira umwuka mwiza duhumeka utanduye. N iyo mpamvu tubishishikarizwa na Leta gutera ibiti.

Ibiti byinshi bikunze kurangwa no kuba ari inturusu kandi bivamo imbaho nziza. Ari na yo mpamvu usanga batera inturusu kurusha ibindi biti byose kuko zo zivamo ibintu bikomeye.

Akenshi usanga abahinzi bahinga imbuto z'amoko atandukanye n'imboga bakabona amafaranga bifashisha mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Imyungu ni ikiribwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi. Akenshi umwungu ukunda gukorwamo ibicuma bya kera.

Ku isoko uhasanga imbuto zitandukanye, zirimo imineke, ibihaza ndetse n'ibindi. Ni ngombwa cyane kuko bifasha abantu kubaho neza kandi bikabafasha kugira umutima mwiza ndetse bakanakora neza.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ari igipangu kinini kandi cyiza. Iki gipangu gikikijwe n'indabo, bigaragara ko ziri ahantu heza.

Akarima k'igikoni, karimo imbuto zitandukanye ndetse n'imboga. Harimo dodo ndetse n'ibindi. Ni byiza cyane kubera ko bifasha mu gutegura amafunguro, haba mu rugo ndetse unasagurira amasoko.

Abantu batandukanye barakora ibikorwa bitandukanye by'umusaruro wabo. Ibishyimbo ni rimwe mu myaka myiza yera kandi ikundwa n'abantu benshi. Ni ngombwa guhinga ibishyimbo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Ibirungo byinshi ukunze gusanga bitekwa mu isombe maze bikaryoha. Akaba ari yo mpamvu usanga abacuruzi bakunda gucuruza ibirungo kugira ngo abatetsi babibone.

Inyubako ikikijwe n'indabo bigaragara ko ari inyubako nziza. Iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye kandi yubakishije na sima nyinshi cyane kuko yatwaye amafaranga.

Abahinzi b'ibinyomoro bavuga ko babikuramo amafaranga atari make, aba bahinzi kandi usanga barabigize umwuga kuko babikora kinyamwuga ariyo mpamvu bakuramo amafaranga.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane kiri mu bwoko bw'imboga cyifashishwa cyane cyane mu gutegura amafunguro yo mu rugo, bityo abaziriye bakabaho neza kandi bakumva batekanye, zitanga kandi n'amafaranga.

Indabo akenshi usanga zikunze kuba ari nziza, kuko zituma umuntu aruhuka igihe azicayemo, ukumva ugugwa neza ndetse n'ubuzima ukumva ko busubiye ku murongo.

Ibiribwa bitandukanye byiganjemo ibinyomoro ndetse n'amatunda. Ni byiza kuko ni imbuto zifasha abantu kubaho neza bityo bakirinda indwara, bakirinda n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kubahutaza mu buzima.

Ibimera bitandukanye ndetse n'imboga zitandukanye, iyo abantu bahinga bibafasha kubaho neza biteza imbere. Ni ngombwa guhinga kugira ngo tugire umusaruro wifashishwa mu gutegura amafunguro ndetse no kubaho neza.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kubera ko kiba cyahawe ifumbire ndetse banagisasiye, bityo kikabasha gukura neza.

Intoryi ni igihingwa gitanga umusaruro vuba, kuko abahinzi bazo bavuga ko iyo bashyizeho ifumbire ndetse bakavomerera, babona amafaranga abafasha mu bikorwa bitandukanye.

Iminneke akenshi usanga hari igihe iba idahiye neza, ariko akenshi iyo ihiye neza irafasha kuko haba harimo intungamubiri nyinshi.

Abahinzi b'ibirayi usanga bakunda kuvuga ko babona umusaruro maze bakawukoresha mu bikorwa bitandukanye, hari abavuga ko amafaranga bakura mu buhinzi abafasha kwiteza imbere.

Ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti bigaragara ahantu hatandukanye. Bikurura akayaga keza ku banyeshuri ndetse n'abandi bantu, bityo bigatanga n'umwuka mwiza abantu bahumeka. Ni inzira kandi inyamaswa zitandukanye zihumekeramo.

Amashu ni igihingwa cyiza, gitanga umusaruro. Abantu benshi rero ugasanga, bashishikarizwa guhinga iki gihingwa kugira ngo babone amafaranga bakoresha.

Abahinzi b'inyanya bakunda kuvuga ko babona amafaranga menshi yo kwifashisha mu gihe bahinze inyanya, niyo mpamvu usanga barabigize umwuga kuko bibaha umusaruro mwinshi.

Imyembe ni urubuto rwiza rutuma umuntu agira ubuzima bwiza kuko rukungahaye ku ntungamubiri z'amoko agiye atandukanye, kandi bikaba bifasha neza cyane.

Imineke ya kamara usanga iryoshye. Akaba ari yo mpamvu bakunda kuyihenda kuko iba ifite intungamubiri nyinshi kandi igafasha umuntu uyikeneye.

Imboga n'imbuto bibarizwa mu mujyi wa Huye, aho usanga biri ku giciro kimenyerewe, akaba ari yo mpamvu abantu benshi bayihasanga bakagura.

Muri pipiniyeri hakunze guhingwamo ibinyomoro, amatunda ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, aho usanga barabiteguye ahubwo igisigaye ari ukubishyira mu bikorwa.

Ibikorwa byo guhinga imbuto zitandukanye birimo amaronji cyangwa indimu. Ni ingenzi cyane kubera ko bifasha mu gutuma abantu babaho neza. Bityo ni ingenzi ko abantu bahinga indimu cyangwa amaronji maze bakabaho neza.

Umuhanda w'amapave, urimo sima nyinshi. Hirya hari ishyamba ubona ko rikeneye gutemwa, maze rikabyazwamo amafaranga menshi.

Idodo ni igihingwa cyiza gifasha abantu kubona amafaranga mu gihe gito, kuko usanga abantu benshi bakunda kurya imboga kugira ngo bagire intungamubiri kandi babashe kubaho.

Amatunda ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi kuko usanga ari imbuto abantu barya bakumva baguye neza ndetse bagakira n'indwara zimwe na zimwe.

Ibitunguru ndetse na pavuro, byifashishwa mu gihe bari guteka. Ibyo byose iyo bibonetse abantu babikorana umutima mwiza, maze bagateka ibiryo biryoshye.

Abantu barahinga ibiti ndetse n'izindi ngembwe zitandukanye, ni ngombwa gukora akazi k'ubuhinzi kuko bifasha abantu kubaho neza, bihaza mu biribwa ndetse banasagurira amasoko.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kubera ko usanga abahinzi benshi bakunda kuzisarura bakazijyana ku isoko bityo bakabona amafaranga yo gukoresha.

Abantu benshi bakunze guhinga indabo imbere y'inzu zabo. Akaba ariyo mpamvu usanga abakobwa bakunze kuzijyana mu rugo bagahinga, maze hagasa neza.

Pipiniyeri ihumbikwamo imboga n'imbuto, isakaje amabati, iyi nyubako kandi biragaragara ko ikoreramo ibikorwa byinshi byinshi ndetse n'ubworozi bwinshi butandukanye.

Abahinzi benshi b'imbuto n'imboga, bakunze kuvuga ko zihenda, akaba ariyo mpamvu bashishikariza abantu gusoroma imboga n'imbuto mu gihe bagiye guteka, bityo bikabarinda indwara zituruka ku mirire mibi.

Ipapayi ni ingirakamaro kuko ifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Hari abavuga ko ipapayi iyo uyiye ikongerera vitamine zitandukanye.

Ahantu abantu bahurira cyane cyane ku ishuri uhasanga indabyo zitandukanye zirimo amawuwa ndetse n'ibyatsi bitandukanye. Ni ingenzi cyane kubera ko bifasha abana kubona akuka keza ko guhumeka maze bakiga neza.

Ibimera bitandukanye byiganjemo imbuto. Ni ngombwa guhinga ibiti bibyara imbuto kugira ngo bizabashe gukurura umwuka ariko kandi binatange imbuto, zifashishwa mu mafunguro atandukanye, birinda indwara kandi birakiza.

Umwana afite ingemwe ziri mu mashashi. Ni ngombwa ko izi ngemwe bazitera kugira ngo zigire umusaruro. Iyo ubonye umusaruro uwifashisha mu rugo, waba guteka cyangwa se ukawugurisha, ukabonamo amafaranga.

Abahinzi bakunze kuvomera ibihingwa byabo bikiri mu buhumbikiro kugira ngo bizabashe gukura neza maze bitange umusaruro ku bahinzi bazabikenera.

Umugabo wambaye isengeri y'umuhondo, arasarura inyanya. Ni ngombwa gusarura inyanya iyo zimaze kwera, maze ukazikoresha mu rugo, haba gutegura amafunguro ndetse no kuwujyana ku isoko, ugakuramo amafaranga.

Ibimera bitandukanye ni ingenzi kuko bituma abantu babaho neza bikongera umwuka mwiza abantu bahumeka. Ni ingenzi cyane guhinga ibiti bitandukanye kugira ngo bizafashe mu kurwanya igwingira ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Akarima k'igikoni ni keza, kuko gafasha abantu kubona imbuto bakoresha. Akaba ariyo mpamvu usanga abahinzi bakunda guhinga aka karima k'igikoni.

Abahinzi b'imboga n'imbuto, bavuga ko iyo wabishyizeho umwete ubona amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bitandukanye, ukabasha kwiteza imbere ndetse ugaha n'akazi abatagafite na bo bakiteza imbere.

Pavuro, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi birungo bitandukanye, bikunze kwifashishwa mu ngo kugira ngo abantu babashe kurya ibiryo biryoshye kandi bifite intungamubiri.

Ibimera bitandukanye birimo imboga n'ibiti n'ibindi. Ni ingenzi cyane kubera ko bifasha abantu kubaho neza kuko bitanga intungamubiri zikenerwa, haba mu gutegura amafunguro n'ibindi, bityo abantu bakagira ubuzima bwiza.

Abahinzi benshi bakunze kuvuga ko iyo bahinze babona umusaruro maze bigatuma babona amafaranga yo gukoresha ibikorwa bitandukanye ndetse no kubona ibibatunga.

Karoti ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi, iki gihingwa rero kikaba gitanga amafaranga abantu bakoresha bakemura ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndetse bikaba byakemuka vuba.

Abahinzi ndetse n'aborozi, akenshi bakunze gutanga umusaruro mwinshi kubera ko baba babikoze kinyamwuga.

Abahinzi benshi bakunze kuvomera imyaka yabo kugira ngo izabashe kwera. Niyo mpamvu bashishikariza bagenzi babo guhinga maze bakita ku bihingwa bahinze kugira ngo bazabone amafaranga.

Umukecuri uri gukora ubuhinzi bw'ibigori, hirya ye hari ishyamba ryinshi ubona ko uyu mukecuru yishimye, anezerewe. Iyo abantu benshi bari guhinga, usanga bishimye kuko baba bateganya kubona umusaruro.

Abantu batandukanye baravoma, ni ngombwa ko abantu bavoma amazi azabafasha gukora ibikorwa bitandukanye birimo kuhira imyaka yabo n'ibindi bitandukanye, iyo abantu bavoma bibafasha kubaho neza.

Abahinzi babigize umwuga usanga bahora bavomerera imyaka yabo kugira ngo ituma kandi n'ifumbire itabura mu butaka.

Abahinzi usanga bakunda kuvomera imbuto zabo, kugira ngo bazabone amafaranga abatunga kandi batange mituweli n'ibindi byangombwa.

Abantu benshi usanga bakunze guhinga imboga mu gishanga, kuko bazivomerera maze bakabona amafaranga menshi yo kwifashisha. Muri make usanga barabigize umwuga.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha kugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu abahinzi bahinga ibintu byinshi kandi mu gihe gito.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibimera bitandukanye, imyaka itandukanye insina n'ibindi bitandukanye, ni byiza ko abantu bahinga imyaka kugira ngo babone ibyo bizababeshaho, babone kandi n'amafaranga.

Abakozi benshi ba Leta ndetse n'abikorera bakunze gukora ibikorwa bitandukanye. Hari abakora ibikorwa bijyanye no gukora amaterasi maze imisozi ikaringanira.

Ikawa ni igihingwa gituma abantu babona amafaranga bifashisha mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima, niyo mpamvu usanga abantu benshi bashishikarizwa guhinga ikawa kuko ari igihingwa cyiza.

Ibimera bitandukanye bigaragara ku misozi. Ni ingenzi cyane guhinga umurima kuko bituma wongera umusaruro wiganjemo ibyo bakenera mu rugo ndetse n'ibyo basagurira amasoko.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibyatsi bitandukanye, byifashishwa mu korora amatungo, haba kubiragiramo cyangwa se gutwara ibyatsi mu rugo ukajya kuziha amatungo, bituma amatungo amera neza agatanga umusaruro.

Umurima uri guhingwamo umuceri, ni ahantu hanini bigaragara ko hakeneye umukozi kugira ngo afashe umuntu uri kugenda akoramo.

Ishyamba ry'inzitane ubona ko riri ahantu ku musozi, hakuno mu gishanga hari abaturage benshi barimo guhinga, bigaragara ko bahinga bafite n'ifumbire.

Igishanga bahingamo umuceri kikaba kirimo inzira nziza abantu bashobora kunyuramo bagiye kuvoma amazi, hari igihe usanga amazi yabuze ukumva bababaye.

Abanyeshuri iyo bagiye mu bushakashatsi usanga bahungukira ubumenyi, bityo bikabafasha kwiteza imbere, bagateza n'igihugu imbere muri rusange. Akaba ariyo mpamvu usanga abantu barakize, kandi babikesha gukora cyane.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi, aho usanga iki gihingwa abantu babona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bimwe na bikmwe bigiye bitandukanye.

Abahinzi benshi bakunda guhinga inyanya ndetse n'imboga, bigatuma babona amafaranga menshi abafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, bityo bakabona amafaranga.

Ikibuga cy'umupira gikunze kuba kirimo ibyatsi byinshi, bituma umupira utabasha kwihuta ngo urenge uve mu kibuga. Niyo mpamvu usanga hari abantu bake.

Akenshi usanga mu cyaro hakunze kuba ubwatsi bw'amatungo ariko iyo izuba rivuye usanga abantu bakunda kuziha amazi kugira ngo zibashe kubaho.

Umusozi uhingwaho ibihingwa bitandukanye, cyane cyane ibyifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu babone amafunguro yo kurya, harimo inyanya, intoryi n'ibindi.

Amaterasi ni igikorwa cyiza abantu bakora bagateramo ibihingwa, akenshi ukunze gusanga bahingamo ibigori ndetse n'imyumbati kuko aribyo bikunda guhera.

Abahinzi benshi bakunze guhinga imirima y'impeshyi mu gihe cy'imvura kuko akenshi mu mpeshyi usanga amazi ntayo kandi n'imvura ntayo.

Akenshi ukunze gusanga ishyamba rifasha abantu guhumeka umwuka mwiza ndetse no gukumira umuyaga ukunda kuva mu misozi.

Ihene ni itungo rigufiya ryororerwa mu rugo. Ni ingenzi cyane kuko ritanga ifumbire, rigatanga inyama, ryororwa mu gihe gitoya kandi rigatanga umusaruro mu gihe gitoya, ni byiza korora amatungo nk'ihene.

Aborozi benshi bakunze kuvuga ko babona amafaranga bakura mu matungo borora. Akaba barabigize umwuga kuko babiboneramo amafaranga.

Ubworozi bw'ingurube, ni ubworozi bwateye imbere kuko ababikora bavuga ko iyo bazihaye imiti, bakazigaburira ndetse bakazitekera usanga zihora zisa neza.

Inkoko y'isake bigaragara ko ari nziza bagiye kuyirya, iguze amafaranga menshi cyane ku buryo umuntu udafite amafaranga atabasha kuyigurira.

Aborozi b'inka bavuga ko iyo bagiye ku masoko basanga zarahenze. Akaba ariyo mpamvu amata akunze kubura igihe kinini, kubera ko ubwatsi bw'amatungo na bwo bwabaye ikibazo.

Inka y'umukara n'umweru bigaragara ko ari ikimasa, itegereje ubwatsi bwo kurya kugira ngo irekere aho gukomeza kwabira.

Ikiraro cy'ibiti bigaragara ko ari ingurube yororerwamo. Akaba ari ahantu ubona hakwiriye kubera ubworozi bw'amatungo, ari yo ingurube.

Akenshi usanga aborozi bakunda kugura amatungo menshi, bakayajyana ku isoko bityo bakabona amafaranga. Akaba ari yo mpamvu usanga amatungo muri iyi minsi yarahenze, aguze amafaranga menshi.

Inka ni ubwoko bw'amatungo agaragara mu rugo, iyo inka ikiri ntoya iba ikeneye guhabwa ubwatsi bwinshi kugira ngo biyifashe gutera imbere, ni ngombwa ko inka ihabwa ibiyitunga kugira ngo izatange umusaruro.

Iyo umuntu yoroye itungo, bituma yumva atekanye, akaba ariyo mpamvu iyo umuntu afite itungo arihahira, akaryahirira ndetse akarigurira ibya ngombwa byose.

Aborozi benshi bakunze kubona amafaranga yo gukora ibikorwa bitandukanye kubera ko baba bayahaye ubwatsi n'ibyo akeneye byose kugira ngo ayo matungo abashe gukura.

Aborozi benshi bakunze gufata amatungo bakayajyana mu biraro, kugira ngo bayarinde guhura n'ibyorezo bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi butanga amafaranga mu gihe gito, kubera ko ababikora babyungukiramo, maze bakabasha gukemura ibibazo bagenda bahura na byo, mu buzima bwa buri munsi.

Ingurube iyo yabwaguye, itanga umusaruro, kubera ko igihe ibyana by'ingurube byakuze, usanga yungutse cyane akabona amafaranga akoresha mu gihe ari korora.

Ubworozi bw'ingurube ni ingirakamaro kuko bubafasha kubona amafaranga yo gutanga mituweli ndetse no kurihira abanyeshuri ku ishuri bakabasha kwiga neza nta nkomyi.

Ihene ni itungo rigufiya ryoroherwa mu rugo, usanga ritanga ifumbire kandi rigafasha abantu kubaho neza, ni ingenzi cyane korora ihene kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza bityo bakabaho neza.

Aborozi benshi bakunze korora ariko ugasanga badafite amafaranga yo gukomeza kugura andi matungo kugira ngo abashe kubafasha mu bikorwa byabo.

Umuhanda wa kaburimbo unyura ku nyubako yubakishije amatafari ya rukarakara, hirya hari ingurube iri kugenda mu muhanda.

Aborozi benshi bakunze kuvuga ko iyo boroye amatungo yabo babishyizeho umwete, babasha kubona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Abaturage bafite ingurube. Ni iningenzi cyane ko abaturage borora ingurube kubera ko bituma babona ibyiza byose bifuza. Harimo ifumbire, harimo inyama n'ibindi bitandukanye.

Ingurube ni imwe mu nyamaswa ngufiya zororerwa mu rugo, ni ingenzi cyane kuko zituma abantu bagira ubuzima bwiza, zitanga amafaranga, zigatanga inyama kandi zikororwa mu gihe gitoya gishoboka.

Ihene ebyiri iyo bazoroye zitanga umusaruro wiganjemo inyama ifumbire n'ibindi, ihene ntabwo zirushya zirya ibyatsi byose kandi zigatanga umusaruro mu gihe gitoya.

Abantu batandukanye barakurura ihene. Ni ngombwa ko abantu batunga ihene, bakajya kuzorora kubera ko bifasha mu gutuma babona ifumbire, bakabona inyama. Ihene ntabwo zirushya kandi zororoka mu gihe gitoya.

Abantu batandukanye bakunda korora inkoko, kubera ko inkoko zituma ubona amagi, ukabona inyama, ukabona n'ibindi bintu byinshi bikomokaho bitandukanye, ushobora kandi gutuma ubona n'amafaranga.

Ihene ni amwe mu matungo yororerwa mu rugo agira uruhare runini mu gutanga ifumbire ndetse n'ibindi bikorwa biyakomokaho nk'inyama n'ibindi, ihene nziza iyo uzoroye zikugirira akamaro ni ngombwa kuzorora kugira ngo umuntu abeho neza.

Aborozi benshi bakunze kuvuga ko iyo woroye itungo ukaryitaho, riguha umusaruro maze ukabona amafaranga wifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ingurube ni ubwoko bw'inyamaswa bwiza, iyo bworowe neza butanga umusaruro wifuzwa harimo inyama, ifumbire n'ibindi. Ni ngombwa korora ingurube kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hatandukanye hororerwa amatungo usanga hari ibyatsi bitandukanye, ni ngombwa ko abantu borora cyane cyane amatungo magufi yiganjemo ingurube kuko atanga umusaruro haba inyama ndetse n'ifumbire.

Hari igihe ubwira umuntu ngo akuzanire igikoresho cyo gukoresha mu rugo, akakubwira ko yakibuze ariko se iyo umuntu agutumye ukamugezaho igikoresho yagutumye, si aba ari byiza?

Aborozi b'inkoko bavuga ko bibafasha iyo inkoko zabo zahaze bityo bakaguma mu nzu akaba ari yo mpamvu usanga bagura ibiryo byazo ntibirirwe bagenda kuziragira.

Ingurube ni imwe mu matungo magufiya aboneka. Ni ngombwa ko ingurube zitabwaho kugira ngo zigire umusaruro, haba gutanga umusaruro w'inyama cyangwa se uw'ifumbire kugira ngo ibikorwa byayo bikomeze bigende neza.

Aborozi benshi bakunze gufata amatungo yabo bakayajyana ku isoko, kugira ngo babone amafaranga abatunga ndetse babone n'ayo gukemuza ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Ingurube ni itungo ryiza kubera ko ridufasha kubona ifumbire, ndetse n'ibindi byangombwa byose bisabwa kugira ngo umuntu akore ubushakashatsi.

Abantu benshi usanga bishimira yuko bafite amatungo abaha icyo bakeneye kandi bakabasha gukemura ibibazo bahura nabyo.

Urugo rurimo inkoko nyinshi cyane, ndetse n'umwana ugiye kwiga mu gitondo, uru rugo kandi harimo ababyeyi babiri ubona ko barimo kuganira kandi bishimye.

Aborozi benshi b'inkoko bakunze kuvuga ko iyo inkoko uzororeye rimwe, ntufate imwe imwe zishobora kurwara indwara ituruka ku musinziro ndetse no ku munaniro ukabije.

Inkoko y'isake ndetse n'inkoko kazi, ubona ko ziri ahantu hamwe. Izi nkoko zihagaze amafaranga, ibihumbi cumi na bitanu uko ari ebyiri.

Ingurube ni amwe mu matungo magufiya aboneka cyane cyane mu ngo zitandukanye, ni ngombwa ko ingurube zitabwaho, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Iyo witaye ku ngurube ubona ibikoresho bitandukanye nk'inyama n'ibindi.

Aborozi benshi usanga bafata amatungo yabo bakayashyira ku misozi kugira ngo abashe kubona ubwatsi maze abashe gukura bityo babone umusaruro mwinshi.

Abantu benshi iyo bagiye kuragira amatungo usanga bakunda gukora urugomo, niyo mpamvu usanga muri iyi minsi byaracitse kuko byatezaga umutekano muke.

Inyanya ni ingenzi cyane kuko bituma abantu babona ibihingwa bitandukanye by'imboga, byifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye ya buri munsi. Inyanya zishobora kandi gutanga amafaranga mu buryo butandukanye.

Abahinga imbuto muri pipinyeri bavuga ko, iyo bahumbitse imbuto babasha kubona amafaranga yo gukoresha kandi bigatuma bakomeza kwishima.

Urusenda ni ingirakamaro kuko rufasha abantu kubona amafaranga agiye atandukanye. Ni yo mpamvu usanga abahinzi babigize umwuga babona amafaranga yarwo.

Abahinzi b'imboga n'imbuto bakunze kuvuga ko ari byiza kubona inshuti zibayeho neza kandi cyane.

Hari aho usanga abahinzi bakunda guhura n'imbogamizi zitandukanye, zijyanye no kubura ifumbire kandi ntibabone n'imbuto.

Akenshi usanga ibidukikije bikunda gukurura imvura, maze abantu bagahinga, bakeza, bagasagurira amasoko. Kenshi ibyo bahinga usanga ari ingirakamaro kuko bigaburira abantu benshi.

Ibigori iyo ubisaruye ukabimanika, ubona umusaruro ugufasha guhinga ibindi mu kindi gihe kizaza kandi ukabikora bunyamwuga.

Ibigori akenshi iyo byahinzwe, bikabagarirwa bitanga umusaruro. Hari igihe abantu benshi bafata nk'umurima bakawuhingamo ibigori ariko ugasanga byarumbye.

Igihingwa cy'ibijumba, ni igihingwa abantu benshi bakora kugira ngo babashe kubona ibibatunga mu byo bworoshye kandi bwizewe, kikaba cyabaha amafaranga mu buryo bwose bushoboka.

Abahinzi b'urusenda bakunze kuvuga ko urusenda ari rwiza, rubafasha kumva bishimye kandi baguwe neza, akaba ari yo mpamvu usanga abakunda kururya iyo batarubonye batarya neza.

Intoryi ni kimwe mu bihingwa bihingwa neza maze bigakoreshwa hifashishwa amafunguro mu rugo, ndetse ushyiraho ifumbire ukanabagara ndetse ukanazisasira kugira ngo zitange umusaruro mwiza.

Ubutaka ubona ko bukorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi, ni ahantu heza ubona hakorerwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye akaba ari ahantu mu gishanga.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibimera bitandukanye, ni ngombwa ko ibimera byera ku misozi bigira akamaro gatandukanye, karimo gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bikanatanga imvura kandi abantu bagahinga bakeza.

Abanyeshuri akenshi, usanga bafite intego yo kugira ikintu bageraho kandi Imana ikabafasha bikagenda neza, niyo mpamvu usanga abantu bahora bishimye.

Abantu batandukanye barita ku itungo ryabo ry'inka. Iyo witaye ku matungo ni ngombwa ko aguha umusaruro, bityo umusaruro ukawukoresha nawe witeza imbere. Kwita ku nka bituma ubona amata, ukabona ifumbire n'ibindi.

Inka ubona ko ifite ibara ry'umweru n'umukara, bari kuyiha umuti kugira ngo bayikingire indwara zitandukanye. Hirya hari umurima w'ibigori, bigaragara ko utari wera.

Aborozi benshi bakunze guha amatungo imiti, kugira ngo ayo matungo abashe gukura maze azatange umusaruro mu gihe gito, akenshi usanga aya amatungo aba yarabyibushye.

Abasaza bafite inkoni mu ntoki, hirya yabo hari indabo zihari, bigaragara ko aba basaza bakeneye guhabwa serivisi zigiye zitandukanye yaba iz'ubutaka ndetse n'ubucuruzi muri rusange.

Abantu barita ku nka. Ni ngombwa ko inka bazitaho kugira ngo zigire umusaruro mwiza wiganjemo amata menshi ndetse n'ifumbire nyinshi, iyo inka itanze ifumbire yifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi.

Ikiraro kigaragara muri pariki ya Nyungwe ni ingenzi cyane, gikurura abantu kukireba, maze bigatuma abakiriho bareba ibikorwa bitandukanye by'ibimera harimo ibiti birebire n'ibindi.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba, intare iyo iboye inyamaswa iyo ari yo yose irayirya, kubera ko iba ifite imbaraga nyinshi kandi mu gihe gito.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba ariko ugasanga hari iziba zihishe kugira ngo zitaribwa n'izindi nyamaswa. Bityo rero, ba mukerarugendo akenshi bakunze kujya kuzisura.

Inyamaswa zigaragara mu mashyamba atandukanye bitewe nuko bari ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye, bituma izo nyamaswa zibona aho kuba, maze bikagirira igihugu akamaro kuko zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni iri kurya imbuto, bigaragara ko iyi nyoni ifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku. Ni inyoni ubona ko ari nini.

Akenshi inyamaswa zikunze kuba ziri mu ishyamba. Akaba ari yo mpamvu ba mukerarugendo ariho bazisanga, maze bakazana amafaranga mu Gihugu azifashishwa mu bikorwa bimwe na bimwe bijyanye n'iterambere.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba mu ishyamba, akaba ariyo mpamvu usanga amatungo menshi aba mu ngo. Niyo mpamvu abantu borora baba bafite impungenge yuko izo nyamaswa zarya ayo matungo.

Akenshi usanga inyamaswa zikunda kuba mu ishyamba, ariko hari aho usanga zijya no mu muhanda, zikagenda mu nzira.

Imbwa ni ubwoko bw'inyamaswa bwororerwa mu rugo usanga kandi ari ingirakamaro kuko zirinda abajura ndetse zigafasha n'ibindi bikorwa bitandukanye, ni ngombwa ariko kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ibiti bitandukanye mu mashyamba ni ho usanga inyoni z'amoko menshi atandukanye. Inyoni ni nziza kuko zifasha mu kororoka kw'ibimera bityo abantu bakabaho neza kandi bakagira ubuzima bwiza.

Inyamaswa zo mu ishyamba akenshi ukunze gusanga zirya izindi. Niyo mpamvu hari inyamaswa usanga zihora ziruka kuko ziba zaragize ubwoba, akenshi zikiruka.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko iyo nyubako ikorerwamo igikorwa cy'ibanze, aho abantu bashobora kuba bahabwa serivisi zigiye zitandukanye.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba, akaba ariyo mpamvu usanga zihora zirwana kuko zabuze ibyo kurya, kandi iyo zibibonye na bwo usanga zibirwanira.

Ibimera bitandukanye nibyo bicumbikira inyamaswa zitandukanye, bityo kwita ku bimera ni ingenzi kuko izo nyamaswa bituma zibaho neza maze ubuzima bukagenda neza natwe tukabyungukiramo.

Inyamaswa akenshi zikunze kwibera mu ishyamba, ugasanga hari iziba ku gasozi ziryana, hakaba n'izitaryana, ariko akenshi zikunze kuba zibera mu ishyamba.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikunze kuba zikunda ubwatsi, iyo zibonye zikanywa n'amazi usanga zihora zitembera mu ishyamba, maze ba mu kerarugendo bakazisura.

Abantu batandukanye bahinga ibimera bitandukanye, ibiti ndetse n'ibindi. Bituma inyamaswa zitandukanye ziza. Ni ngombwa ko izo nyamaswa ziza, maze zigatuma zigira ubuzima, bityo natwe tukabaho neza.

Akanyoni kari mu giti bigaragara ko karimo kuguruka. Iyo inyoni uyibonye cyangwa se indi nyamaswa ntuyifotore, uba wumva utishimye.

Inzovu ni inyamaswa nziza cyane zigaragara mu kagera n'ahandi hantu hari pariki, ni ngombwa ko abantubita cyane ku bidukikije kugira ngo inzovu nazo zimere neza.

Inyamaswa iri mu ishyamba mu biti. Ni ngombwa ko ibimera bitandukanye byitabwaho kugira ngo bicumbikire inyamaswa zitandukanye, bityo natwe tugire ubuzima bwiza ndetse na zo zibeho neza.

Inyamaswa zigaragara mu mashyamba ni ingenzi cyane kubera ko zituma abantu basura aho hantu babaho neza kandi bakagira ubuzima bwiza, bityo ni ingenzi cyane kuzitaho kugira ngo zikomeze zibeho natwe bitugirire akamaro.

Akenshi usanga mu ishyamba hakunda kuba inyamaswa z'amoko atandukanye, akaba ariyo mpamvu iyo umuntu agiye mu ishyamba abasha kwiruka kugira ngo akire izo nyamaswa.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba, aho usanga zijya gushaka ibyoku kurya mu duce dutandukanye, zikazanira abana bazo, akenshi usanga zikunda kwicwa n'inzara.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba, aho zibasha kubona ibizitunga mu gihe gito. Akaba ari yo mpamvu usanga habaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye byibera mu ishyamba.

Agasumbashyamba akenshi usanga kaba ahantu hari ibiti birebire ku buryo kabasha kurisha mu bushorishori bw'igiti, akenshi usanga kaba kari kumwe n'abana bako.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba, ariko ugasanga hari izikunda kurya izindi. Niyo mpamvu ba mukerarugendo bakunda kuzisura kugira ngo barebe uko zibayeho.

Inyamaswa zitandukanye zigaragara muri parike y'Akagera. Ni ingenzi cyane kubera ibimera bibayo nk'amashyamba n'ibindi biti, bituma izo nyamaswa nazo zigira ubuzima bwiza maze bikagirira abantu bose akamaro.

Inyamaswa zitandukanye ziboneka mu mashyamba. Ni byiza ko inyamaswa zitabwaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza bityo abantu nibazikunda babashe kubona aho bazisanga.

Ingwe ni inyamaswa mbi cyane, igaragara mu mashyamba, aho yifashishwa cyane cyane bayisura, maze bagasiga amafaranga. Ni ingenzi cyane kwita ku bidukikije kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba. Akaba ari yo mpamvu usanga hari aho ziba zikunze guhurira, maze zigakora agakungu, zikagenda mu ishyamba.

Mu ishyamba habamo inyamaswa z'amoko agiye atandukanye. Akaba ari yo mpamvu bamukerarugendo bajya kureba kugira ngo bamenye amoko y'inyamaswa aba mu ishyamba, maze bagatanga amafaranga menshi.

Akenshi usanga mu mikokwe habamo utunyamaswa twinshi tuba mu mazi, bityo rero ukabona ko iyo ugiye mu mazi ushobora kwinjirwa n'utunyamaswa twinshi mu mubiri.